Umugabo witeje imbere yikorera ibikorwa by'ubuhinzi, akaba yambaye uturindantoki, ahetse icupa ririmo umuti, ari gutera mu bigori, ni ibigori bishishe kandi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara ko bimeze neza.

Umusore uhetse ibido y'ubururu, ikaba iriho itiyo izana umuti batera mu myaka, ari kugenda azenguruka mu myaka, ateramo umuti kugira ngo yice udukoko dushobora kuyibuza kwera, maze izere neza.

Uyu ni umumama wambaye ishati y'amaboko mato, akaba ahetse ikijerikani kirimo umuti batera mu myaka ari kugenda awuteramo. Ni imyaka ishishe myiza cyane aho yitabwaho kandi ikaba yera neza.

Ubworozi bw'amafi ni bimwe mu bikorwa bikorwa mu Rwanda, bigatanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya. Ni byiza kubyitaho, aha hari abantu benshi cyane bari kureba umugabo uri gusukura icyuzi ke.

Uyu ni umugabo wakozi ubworozi bw'amafi; yagiye yikorera icyuzi cyiza, aragikotiriza imigozi arangije azana ibyo kurya, aha agaburira amafi arimo kugira ngo yororoke vuba.

Ubworozi bw'amafi ni kimwe mu bikorwa bitanga amafaranga ndetse bigatanga n'ibyo kurya, iyi ni ibase yamenetseho hejuru, ikaba irimo amafi menshi cyane, bigaragara ko bamaze kuyaroba, bakaba bagiye kuyarya.

Aba ni basore bari mu cyuzi cy'amafi, bakaba bari kuroba amafi, bifashishije supaneti, bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye ingofero ndetse n'abatazambaye.

Umugabo uri kumwe n'abana babiri, ni umugabo ukora ibikorwa byo korora amafi, yicaye imbere y'icyuzi cye arishimye cyane ari gushyiramo umwayi kugira ngo amafi yongere akure.

Umugabo ukora umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi aha ni aho yororera amafi, ni byuzi byubakiye neza cyane akaba ari kugenda ashyiramo imyayi kugira ngo aya mafi ye yororoke kandi abone umusaruro.

Umukobwa wiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo akaba afite ifi yateretse ku meza aho ari kugenda ayikoreraho ubushakashatsi bugiye butandukanye, abantu biga ibintu byo kuvura bakunda kwihugura mu buryo buhoraho.

Aha ni ahahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bw'amafi, harimo ibyuzi byiza cyane birimo amafi, hakaba hari n'utuzu twubatse twororerwamo inkwavu, abahinzi bahinga barabigize umwuga birabakiza.

Uyu ni umugabo uri mu gihingwa cy'icyayi, akaba yambaye igikanzu cy'umuhondo n'umupira w'amaboko maremare, yambaye n'ingofero, ari kugenda aca utubabi ngo arebe ko kino cyayi cyeze maze asarure.

Iyi ni ikawa bari gusarura, bari kugenda baca utubabi ndetse n'imbuto zeze, bagenda bajugunya mu dutebo, ikawa ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu, u Rwanda ruhinga rukajyana ku ruhando mpuzamahanga.

Umumama uri gusarura igihingwa cy'ikawa ni ikawa yeze cyane, ikaba ifite intite zitukura, amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'igiti kinanutse ariko kikire. Ubu buhinzi bugira amafaranga.

Igihingwa cy'ikawa, kiriho ikawa nziza cyane, harimo izisa umuhondo, ititukura n'izindi zikiri icyatsi kibisi, amababi yose yarahungutse, ikawa ni kimwe mu bihingwa, ngandurabukungu.

Aba ni abamama bari gusarura icyayi, bose bahetse udutebo, bakaba bambaye amakanzu y'umuhondo, bari kugenda baca amababi y'umuhondo, ay'icyatsi bakayihorera kuko aba atarera.

Aba ni abantu bari gusarura igihingwa cy'umuceri, ni abantu benshi cyane bigaragara ko bakoreye hamwe umuceri mwiza cyane weze bakaba bari kuwukatira hasi maze bakawuterura bakawujyana imusozi.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bikiri mu bihumbikiro, ibi bimera ni iby'ikawa, ikawa ni kimwe mu bimera bituma u Rwanda rubona amafaranga ndetse n'abakerarugendo bakaza baje kwirebera icyo gihingwa ngandurabukungu.

Igihingwa k'ikawa ni bimwe mu bihingwa ngandurabukungu gikorerwa mu Rwanda. U Rwanda rubishyiramo imbaraga, kugira ngo abahinzi babihinga bakomeze kugira umusaruro, bityo binjize amafaranga n'ishema ry'igihugu riboneke.

Iki ni igihingwa cy'umuceri. Kiriho umuceri weze neza cyane, ufite intete z'umuhondo, ndetse amababi akaba asa icyatsi kibisi. Igihingwa cy'umuceri ni bimwe mu bihingwa, bitanga ibyo kurya, bigatanga n'amafaranga kubabihinga.

Abamama babiri bari mu murima w'icyayi, bose bahetse ibitebo mu mugongo, bakaba bari kugenda basoroma amababi, bayajugunyamo inyuma. Igihingwa cy'ikawa, ni kimwe mu bihingwa bizana amafaranga.

Aba ni abamama bishyize hamwe bakora ishyirahamwe ryo guhinga igihingwa cy'ikawa, igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, gikorwa mu Rwanda.

Uyu ni umumama wihingiye igihingwa k'ikawa ikaba yeze, arayisaruye ayifite mu gatebo ari gutambuka yishimye kuko agiye kubona amafaranga bitewe n'ukuntu ifite agaciro.

Aya ni amacupa ndetse n'udukarito hakaba harimo imiti yifashishwa bavura amatungo, ahangaha iyo itungo rirwaye bakaba bafata umuti maze bakayiha bitewe n'indwara irwaye.

Iyi ni imwe mu miti ivurishwa inyamaswa, ikaba iri mu macupa indi iri mu masashi, ni byiza ko niba woroye nawe umenya umuti uvurisha itungo ryawe kugira ngo rigire ubuzima bwiza.

Iyi ni imwe mu miti ihabwa amatungo, iyi miti ikaba ifunze mu mashashi agiye atandukanye, buri shashi ikaba iriho igishushanyo k'itungo ndetse n'uko uwo muti witwa.

Iyi ni imiti yifashishwa havurwa amatungo, aborozi benshi bakunze kugana amaguriro y'imiti y'amatungo maze bakayiyegereza kugira ngo itungo ryabo nirirwara bazahite barivuza.

Iyi ni imiti ihabwa inyamaswa, aho kuri iyi miti iba ifunze mu macupa ndetse no mu makarito, kuri buri cupa hakaba hariho igishushanyo cy'itungo ndetse n'ikigero bagomba kuyiha.

Iri ni iduka ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyane cyane imiti y'amatungo ikaba ifunze mu mifuka minini ndetse no mu mashashi hagiye hashushanyijeho ubwoko bw'imiti ndetse n'itungo bugenewe.

Umugabo n'umugore bakaba bavuye guhinga bombi bafite amasuka ku rutugu, inyuma yabo hari ibihingwa byiza cyane, ibigori byeze ndetse n'urutoki rufite amakoma y'icyatsi kibisi.

Umugabo n'umugore bakora umwuga w'ubworozi. Bari hagati mu nka zabo bari kugenda bazikukira ndetse banaziha amazi yo kunywa kugira ngo zikomeze zimere neza.

Umumama wambaye ikanzu y'igitenge afite isuka, akaba ari kubagarira imyaka. Ni imyaka ishishe neza cyane ifite ibara ry'icyatsi, ikaba itangiye kurabya ifite akarabyo k'umweru.

Umugabo wambaye agasengeri ndetse n'ipantaro ndende y'umukara yayikunje, akaba afite isuka mu ntoki, aho ari kugenda arima amasinde mu gisambu kirimo ibyatsi byinshi cyane ndetse n'ibiti byari byari byaramezemo bigaragara y'uko ataherukaga kuyihinga.

Umumama uri mu murima w'umuceri, ni umuceri bigaragara ko wameze neza kandi ukaba ugiye kwera, ari gucunga ngo hatagira inyoni ziza zikaba zawuhungurira hasi.

Umugabo wambaye uturindantoki, ingofero ya oranje, amarinete y'umukara, akaba ari kumwe n'umwana w'umukobwa wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umukara, bari gutera igiti mu rwego rwo kugira ngo bimakaze umuco wo kurinda ibidukikije.

Umuma wambaye ishati y'igitenge ndetse n'ijipo y'umukara, ateze igitambaro, akaba ari kugenda akorera imyaka kugira ngo imere neza, ari mu bigori bishishe, aho ari kugenda abyongereho itaka.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bihingwa mu rwego rwo kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, ubu ni ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, bikaba bihingwa n'abahinzi bihangiye imirimo.

Uyu ni umugabo wambaye ishati y'umweru imbere ye hakaba hari inka nziza cyane ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru yororerwa mu rugo iziritse, ni urugo rw'imiyenzi rudaheruka gucongwa ndetse akaba afite n'inzu iriho ibyondo.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyokurya bigiye bitandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto, turikubonamo urusenda, tukabonamo kokombure, tukabonamo n'ibindi bigiye bitandukanye, aho abaguzi baza bagahitamo ibyo bakeneye.

Iri ni isoko ricururizwamo ibyo kurya bitanga amafaranga, hakaba harimo imifuka irimo ibirayi byiza cyane binini, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwihahira bambaye imyambaro igiye itandukanye ndetse bari guhaha ibiribwa bitandukanye.

Uyu ni umurima uteyemo ibishyimbo. Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa bivamo ibyo kurya bigatanga amafaranga. Ndetse kandi ababihinga bakunguka cyane ku buryo bukomeye.

Iyi ni imirima myinshi cyane ihinzemo igihingwa cy'umuceri, bakaba baramanitsemo bimwe mu bibafasha kurinda inyoni kugira ngo zitawurya. Hakurya hakaba hatuye ahantu, hejuru ikirere gisa umwero ndetse n'ubururu.

Iki ni ikibaya cyiza cyane, gihinzemo ibigori, ibi bigori birasa neza cyane, bifite ibara ry'icyatsi kibisi kandi bikaba biteye mu buso bunini, hakurya hari imisozi myiza iriho ibyatsi bitoshye.

Umurima uri munsi y'umuhanda ukaba urimo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo imyumbati, imigozi, ndetse n'ibindi. Hirya hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko bishishe kandi bisa icyatsi kibisi.

Aya ni amashyamba agizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufi, hakaba hari ibifite amashami agandaye ndetse n'ibifite amashami magufi. Iri shyamba riregeranye, rikaba ririmo n'ibyatsi byo hasi.

Aya ni mashyamba, ishyamba ni bimwe mu bimera bibungwabungwa mu gihugu cy'u Rwanda kuko twamaze gusobanukirwa neza akamaro kayo, ni ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibigufi aho bigenda bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

iri ni ishyamba, rifite ibiti birebire ndetse n'ibigufi ,bifite amashami agandaye ariho amababi ,ay'icyatsi kibisi, ay'umuhondo ,ndetse n'andi y'umukara yaguye hasi.

Iri ni ishyamba ryiza cyane ririho ibiti birebire kandi hakaba harimo n'ibigufi. Hari umusozi mwiza ubona ko uri gucumbaho umwotsi .Hejuru ikirere kirasa umweru wabona ko bigaragara neza.

Aya ni amashyamba meza cyane ari ku misozi ihanamye, aya mashyamba arimo ibiti byiza cyane, ibirebire n'ibigufi, hakabamo ibifite amashami maremare n'ibifite amashami mato, iri shyamba riri kuzamukamo umwotsi.

Iki ni kimwe mu bihingwa byeraho imbuto hakaba hakorwamo umutobe ndetse ibi bihingwa bishobora kugira n'umuti, ibi bifite amababi y'icyatsi kibisi, bikagira imbuto z'icyatsi kibisi ndetse bifite n'ingeri.

Ubu ni ubuhinzi bwiza cyane buhinze mu mirima irambuye, ni mashu afite ibara ryiza agaragara neza cyane, aya mashu akaba ahinze kandi agiye kwera abahinzi bakabona amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bujyanye n'indabyo. Indabyo ni bimwe mu biranga umuco gakondo, akaba agenda azikorera neza, azifumbira, akazisasira ndetse akanazitunganya.

Umugabo wakoze ubuhinzi bw'inyanya, afite inyanya nziza cyane, ari gupanga mu mufuka, ubona ko ashobora kuba ari gushaka kujya kuzigurisha, yahinze ashaka amafaranga ndetse no kurya.

Ibi ni bimwe mu bihingwa bihingwa mu rwego rwo kugira ngo haboneke imboga ndetse n'imbuto, turi kubona umurima uteyemo pome ndetse n'undi murima uteyemo imboga rwatsi zifasha abantu kubona amaraso.

Umumama uri kwisoromera igihingwa k'ikawa. Ni igihingwa yahinze ndetse hakaba harimo n'abandi bantu kuko cyareze cyane. Aha rero iyo nawe ushaka amafaranga, ushaka igihingwa kigira amafaranga.

Iri ni isoko ricururizwamo imboga ndetse n'inyanya. Harimo: inyanya, intoryi, amashu ndetse n'ibindi bicuruzwa bitari kugaragara, ni isoko rinini cyane kandi ubona ko ryuzuye ibicuruzwa.

Aba ni abamama ndetse n'abana bakaba bicaye muri pepiniyeri, bari gufata ibihoho birimo ingemwe nziza cyane barishimye cyane. Ni ahantu ubona ko ari mu mubande ndetse hakaba hari imisozi iri hakurya yaho.

Iki ni ikimera kiza cyane, kera imbuto ziryoshye zizwi nka pome. Ni pome iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo. Ikaba ifite amababi y'icyatsi kibisi, iteye amabengeza.

Aha ni ahakorerwa ubuhinzi bw'imbuto hari ibiti byinshi cyane biriho igihingwa cya pome zikaba zeze, zifite ibara ritukura, zirahishiye cyane hasi hakaba hari utwatsi duke.

Iki ni kimwe mu bimera bihingwa mu rwego rwo kugira bikorwemo indabyo zitagwa ahantu hagiye hatandukanye, ni ururabyo ruri mu mabara y'umutuku, rukaba rufitemo utubara tw'umuhondo duke, aha rero dukwiye kubisigasira.

Ibi ni ibiribwa bigiye bitandukanye kandi by'amoko yose. Harimo indimu, hakabamo ibihaza, avoka, pome, ikawa, ibitunguru, karoti, ndetse n'urusenda.

Umumama wambaye agasengeri k'ubururu, afite rozwari y'icyatsi kibisi mu ntoki, akaba ari kugenda avomerera ibihingwa biri mu murima kugira ngo bimere neza maze bizagire umusaruro uhamye.

Umupapa witeje imbere akaba ari kuvomerera imyaka ye akoresheje umupira wababugenewe, iyo uri umuhinzi ugomba gukora iyo bwabaga kugira ngo imyaka uhinze yere neza bityo wowe n'abawe mugire ubuzima bwiza.

Ibi ni ibihingwa byiza cyane mu ibara ry'icyatsi kibisi, ni ikibaya gihinzemo ibihingwa bitandukanye hakaba harimo imashini zizamura amazi zikabivomerera, birarabagirana neza cyane.

Abantu batatu bari kuvomerera amashu meza cyane, bafite amarozwari bari gukoresha. Aho ibi bihingwa ubona ko bisa neza cyane. Inyuma yabo hakaba hari n'ibindi bihingwa biteye imbere y'umugezi, ubona ko nabyo bikeye.

Ibi ni ibihingwa bihinzwe mu buryo bwa kijyambere, bikaba bivomererwa n'imashini nziza cyane zikozwe mu ikoranabuhanga, aho ibi bihingwa usanga bishashagirana kandi bimeze neza igihe cyose.

Uyu ni umurima uhintsemo ibihingwa by'icyatsi kibisi. Ni ibigori byiza cyane bifite ibara ryiza. Harimo akamashini gakoreshwa n'ikoranabuhanga kabivomere. Kumusozi hakaba hari insina ndetse n'amashyamba, nabyo bimeze neza.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi mu mubande rwagati. Hakaba harimo amamashini avomerera imboga, imbuto, ndetse n'indi myaka yose baba bahinze. Harimo abantu benshi cyane bahingamo baba bateraniye hamwe bari mu gikorwa cyo kuvomerera.

Ibi ni bimwe mu bidendezi byagomewe kugira ngo haboneke amazi yifashishwa mu kuvomerera ibihingwa, hari ibyatsi byiza cyane bitoshye ndetse n'ibiti by'imigano biri hafi ubona ko bisa neza.

Uyu ni umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga. Ahinga imyaka ye igihe icyo aricyo cyose. Ntakangwa n'impeshyi kuko afite imipira ndetse n'imashini yifashisha yuhira imyaka ye bityo bigatuma imera neza.

Aha ni mu murima hagati. Harimo imashini kabuhariwe zivomerera imyaka, maze iyi myaka ikamererwa neza, haba mu mpeshyi cyangwa se mu mvura, ugasanga abahinzi beza neza nta mbogamizi.

Imisozi myiza cyane ihanamye ndetse n'ibibaya, iyi misozi iteyeho imyaka myiza, hakaba hari ibiti birebire bifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, bigaragara ko ari ahantu heza.

Imisozi irambuye ikaba irimo ibihingwa bishimishije. Ni imisozi myiza cyane kuko iri mu kibaya. Iki kibaya rero kikaba gihingwamo imyoko y'ibihingwa.

Iyi ni imisozi ihanamye ndetse n'ibibaya, hateyeho amaterasi y'indindinganire agiye yateyeho ibihingwa bigiye bitandukanye, hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi, hari n'imisozi iri hejuru.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu misozi, aho bari kugenda batera ibiti kugira ngo bifate isuri, biganjemo urubyiruko, baka bari ahantu hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Umusozi ndetse n'ibibaya ni imisozi ihanamye ndetse ikagira n'ibibaya mu mubande hateyemo ibimera bigiye bitandukanye, aho ku musozi bigaragara ko haba hari ishyamba ariko ritazitanye cyane.

Ahantu heza cyane ubona ko harimo ibiti, hakaba hari ubuhinzi ndetse hatuyemo n'abaturage hepfo mu bibaya hejuru hakaba imisozi ikirere kirasa umweru, harimo n'ibicu bisa umukara.

Imisozi ndetse n'ibibaya, muri ibyo bibaya harimo ibihingwa bigiye bitandukanye bihinze ku murongo, hakabamo ibiti bitandukanye kimwe ku kindi ariko byose ukaba ubona ko bisa icyatsi kibisi.

Iyi ni imisozi ihanamye iriho amazi ashunguka, hakaba hari amashyamba agiye ari mu buryo bwegeranye ndetse hakaba hari n'intoki ziteye aho, ku misozi, munsi hakaba hari n'ingo zihatuye ariko zitetegeranye.

Iyi misozi n'ibibaya birambuye hari imisozi ihanamye, ikaba iriho ibiti byiza cyane by'icyatsi kibisi, hakaba ibibaya biteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye kandi bigaragarira ijisho.

Uyu ni umusore ukora ubuvuzi bw'amatungo, yambaye itabuririya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ari kwitegereza inka nziza cyane zororewe mu biraro byiza bya kijyambere kandi zishishe.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'inkoko bakaba bahashyize akantu keza bagaburiraho zino nkoko, hari umuceri ziri gudondagura, ni inkoko nziza cyane ubona ko zigeze mu gihe cyo gutera amagi agiye atandukanye.

Iyi ni inyubako yororewemo inkoko nziza cyane, ni inkoko ziganjemo amasake, zikaba zishishe, zororeye ahantu heza cyane harimo urumuri, hakaba harimo umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse na bote, uri kugenda azitaho.

Bimwe mu biraro bya kijyambere byororerwamo, ni byiza ko mu gihe ufite amatungo ugomba gushaka ibiraro byiza, bikaba bikozwe mu byuma, hakaba harimo akabara k'icyatsi kibisi, aha rero harororewe.

Iki ni ikiraro cya kijyambere gikozwe mu byuma, kirasukuye neza cyane, hakaba harimo akanyana keza ariko gafite inzara, aborozi bakwiye kwita ku nka maze bakajya baziha ubwatsi buhagije kugira ngo zibashe kurya zihage.

Umushinga w'ubworozi ni imwe mu mishinga isigaye ihabwa agaciro mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ubworozi bw'amatungo magufi, aha hari amatungo magufi azwi nk'inkwavu ndetse hakaba n'umuganga uyakurikirana.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, bigatanga amafaranga ku babikora mu buryo bworoshye kandi bwihuse, uyu ni umugabo wakoze ubworozi bw'ingurube, hakaba hari ingurube nini yabyaye abana batatu.

Aha ni ahororewe inka nyinshi cyane hakaba hari aborozi bazo ndetse n'umuganga uzikurikirana. Izi nka zifite amahembe meza cyane maremare, zikaba ziri mu byuma bikorotiriye aho ngaho.

Aha ni ahakorerwa imirimo y'ubworozi, haragaragara inka nyinshi zigiye zitandukanye ndetse zifite n'amabara atandukanye, ziri mu ubwatsi bwiza butoshye burebure ndetse hakaba hari n'ibiti bifite amababi y'icyatsi kibisi.

Aya ni matungo ateraniye hamwe, aho yororerwa, higanjemo ihene, zikaba ziri mu ruzitiro, aho zitembera neza, zikisanzura bityo bigatuma zibyara maze zikororoka.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa bikorerwa mu Karere ka Nyagatare cyane cyane mu Ntara y'Iburasirazuba, aho usanga umworozi wabigize umwuga aba yoroye inka z'Inyambo ndetse afite n'umuganga uzikurikirana.

Abahinzi ukunze gusanga ari inzobere mu bijyanye no gutegura imbuto, aha turabona imbuto zikiri ntoya cyane z'ibigori ziri mu butaka, aho umuhinzi azisigasira kugeza zikuze maze akazisarura.

Isorori irimo ibishyimbo byiza cyane. Ibi ni ibishyimbo abahinzi bamaze gutoranya, bakaba biteguye kubihinga kugira ngo bizagire umusaruro mwiza, cyane ko ari imbuto y'indobanure.

Abavuzi b'amatungo ni bamwe mu bantu bafite ubuhanga buhambaye, aho ashobora gufata itungo akaricimbura, maze akareba mu nyama, yarangiza akaripfuka neza, rikongera rigakira.

Umukobwa wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Yambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'ubururu, akaba afite igikoresho akoresha ari kuvura amatungo. Aho ari kugitegura neza kugira ngo atangire akazi.

Abavuzi b'amatungo bakunze gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, aho bashobora gukoresha buji cyangwa se imbabura bari gukora imiti cyangwa se inkingo bifashisha mu kuvura amatungo.

Iyi nka nziza cyane ishishe, yabyaye akanyana kameze neza cyane bisa ndetse ikaba ifite icebe rinini cyane. Bigaragara ko aka kanyana kataronka na rimwe. Zikaba ziri mu rwuri.

Ubworozi ni kimwe mu bikorwa byateye imbere, aha hakaba hari ibijerekani bikase biri mu ibara ry'umuhondo, abaganga b'amatungo bagenda bashyiriramo imiti amatungo maze akaza akayinywa agakira uburwayi.

Mu mugezi ukunze gusanga harimo inyamaswa z'inyamazi ziyakunda kubi, iyi ni imbata iri kwitemberera mu kiyaga aho ubona ko inezerewe cyane kandi yishimye.

Iyi ni intare iryamye mu ishyamba rwagati ikaba ifite uruhu rurimo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, ikaba igaragara nkaho ishonje ubwo ikeneye ibyo kurya.

Inyamaswa y'imvubu, ni zimwe mu nyamaswa zikunze kuba zibyibushye cyane ariko kandi zikaba ari inyamahoro. Zikunze kuba muri pariki y'akagera, aho zibana n'izindi nyamaswa kandi nta kibazo.

Iyi ni pariki ikaba irimo inyamaswa zigiye zitandukanye ndetse zimwe mu nyamaswa zirimo hano, twavuga nk'imvubu ndetse n'intare, aho ushobora gukora ubukerarugendo nawe ukihera ijisho.

Aha ni muri pariki harimo ingwe ikaba iri kugenda inywa amazi ihagaze ku giti harimo ibiti byiza cyane, hakabamo imikindo imeze neza ndetse n'aya mazi arasa neza, iyi ngwe iri kunywa amazi turi kubona ishusho yayo mu ruzi.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'ubururu karimo utubara tw'umweru, akaba ahetse igikapu cy'umukara imbere ye hari inyamaswa ziri kumureba, hakaba hari n'ibyatsi byiza bitoshye, hagati harimo inkuta zubakishije amatafari ahiye.

Iyi ni intare yiryamiye ku giti, aho bigaragara ko ihanze amaso, hagize uyikinisha gato yahita imurya. Inyamaswa nk'izi zororewe muri pariki aho abakerarugendo baza kuzisura.

Iyi ni inyamaswa yarakaye cyane irasamye. Nk'uko bigaragara yagize inzara ikomeye ku buryo iramutse ihuye n'umuntu yahita imurya. Mu Rwanda haba ubworozi bw'inyamaswa.

Inyamaswa iri kwiruka mu myaka rwagati aho iri kuvamo igana mu ishyamba, inyamaswa ni zimwe mu zangiza ibihingwa bihingwa imbere y'aho ziba kuko ntacyo ziba ziyibwiye.